Icyapa cyamamaza, cyamamaza ububi bw'impanuka, kandi ko impanuka idateguzwa, ugomba rero kuba wariteganyirije mu bwishingizi, kugira buzakugoboke igihe wahuye n'impanuka.

Inyubako yubatse neza ifite imiryango y'ibirahure, imbere yaho haparitse imodoka nziza yo mu bwoko bugezweho, hariho abantu bane, batatu b'abazungu ndetse n'umwe w'umwirabura, ibigaragara byo yari imodoka igurishwa cyangwa se itsindiwe n'umuntu umwe muri abo.

Ikigo gishinzwe ubwiteganyirize, inyubako yacyo ikaba ari inzu nziza cyane, ifite aho baparika ibinyabiziga, iri ahantu heza hari ikirere kiza cyane.

Ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku buzima, bw'abantu , gifite inzu nziza ,iteye amarange atukura ndetse n'amarange y' imyeru ,hakaba hirya hari urugi runini cyane rw'umutuku ndetse n' idirishya ry'umutuku ririmo n' ibirahure.

Isoko ririmo abagurisha n'abagura, isoko rigurisha imbuto, harimo umukobwa w'umucuruzi uri gucuruza imbuto, yereka umuguzi w'umusore ko yakwishimira ibyo afite, kandi uwo mukobwa ari kumwenyura.

Abantu bicaye mu biro babiri, umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye ikote ry'umukara ririmo n'ibara ry'umutuku n'umweru, bicaye mu biro birimo; mudasobwa, terefone z'inziramigozi n'igikuta giteye irange risa nk'ivu n'umuhondo.

Ahantu hatangirwa serivisi z'ihererekana mafaranga binyuze mu matelefone, aho ushobora kohereza amafaranga ndetse ukakira amafaranga cyangwa ukaba wagura n'amafaranga wifashisha uhamagara utumanaho n'abantu.

Umuntu ufite telefone usa nkaho ari gutumaho ibyo kurya yifashishije ikoranabuhanga kugirango bamuzanire ibyo akeneye byo kurya, kandi yambaye ishati y'ubururu bw'ikirere.

Iduka ricuruza imyenda ndetse n'imitako ya kinyarwanda, inzu irimo umusore wicaye ndetse hasi hakaba n'amatara azana urumuri muri iryo duka.

Umugabo uhagaze ahantu ku kigo gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda, ndetse akaba yambaye amarinete afite n'agakapu.